Abagabo bane bari mu myaka makumyabiri n'itanu cyangwa mirongo itatu bafite bafite impapuro umwe afite ikaramu undi yambaye ingofero n'umutuku undi umuri ku ruhande yambaye agashati k'umweru ndetse amanitse akaboko bahagaze imbere y'amazi.

Imbere y'inyubako ya hoteri igeretse hari ubwogero buzwi nka pisine, hari n'udutebe baruhukiraho mu gihe barangije koga, hari n'umutaka wa bingaro uteyemo intebe ebyiri z'umukara n'akameza.